Ahantu hasa n'akabari cyangwa resitora ifite umwihariko w'imitako gakondo harimo ibisenge byubakishijwe imitako y'uduseke, ameza n'intebe byimbaho hamwe n'indabo n'ibimera bigaragara ku ruhande harimo abagabo babiri bambaye imipira y'umukara bigaragara ko bari kuganiraraho ndetse bahuje urugwiro ameza ari imbere yabo akaba ari mu mabara y'umukara ndetse inyuma y'iyi nyubako hakaba hari uruzitiro rw'imbariro

Iduka rigezweho ricuruza ibintu bitandukanye by'imideri n'imitako, hari ameza ariho ibikoresho by'ubwiza udupfukamunwa, amacupa meza n'ibindi. Ku ruhande hari ibikapu, imyenda, n'intebe nziza zifite imisego. Urumuri rutanga ishusho nziza n'udukoresho n'uburyo iduka rigaragara neza mu mabara y'umweru, umuhondo, umukara, ndetse n'umutuku. Hasi hakaba hari amakaro meza.

Ikamyo nini iri mu bwoko bwa Howo ifite ibara ry'umweru n'igice hejuru cy'umukara, ni ikamyo ifite amadarubindi manini n'indorerwamo nini zifasha umushoferi kureba neza. Ifite ibiziga bitandatu n'igice cy'inyuma cyabugenewe gutwara imizigo cyangwa ibikoresho bikomeye, inyuma yayo hari inyubako igezweho bigaragaza ko ari ahantu h'ubucuruzi cyangwa hateye imbere.

Imodoka y'umukara yaka amatara y'umutuku, ihagaze imbere y'inyubako y'ubucuruzi. Ifite ibirahure byinshi, iriho ubutumwa bwamamaza. Bugira ati urashaka kugura wahamagara zeru karindwi umunani gatandatu gatatu gatatu umunani ikane mirongo icyenda na kane. Ubutumwa bwerekana ko hari ikintu kiri kugurishwa, gishobora kuba ari iyo modoka cyangwa ikindi gicuruzwa bijyanye n'iyo nyuba.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo yanditsweho abag umwe yambaye ishati yera undi yambaye imyenda ya siporo n'ingofero, bombi bafite impapuro n'agasanduku gato bishobora kuba impano cyangwa ibihembo hari n'isakoshi nto iri hasi imbere y'abo ifoto yafashwe hafi y'inyubako ahantu hasa n'aho hashobora kuba ari ibiro cyangwa ahantu hakorerwa ubucuruzi.

Imodoka nshya yumukara iri mu nzu y'imurikagurisha ry'iyi sosiyete, imodoka iri imbere ifite igishushanyo kigezweho imbere n'amatara atandukanijwe, hari n'izindi modoka inyuma yayo. Naho ku rukuta hari ikimenyetso cya Hyundai cyanditseho izina ryayo, aho hantu hasa n'ahantu hagenewe kugurisha kugurishirizwa imodoka nshya.

Ahantu hacururizwa amata hakoreshwa n'inyange hari ikigega kinini kibitse amata aho umuntu uri kuvoma amata mu gikombe, inyuma hari rafu ziriho amacupa y'amata bigaragaza ko ari ahantu hatunganyirizwa cyangwa hagacururizwa ibikomoka ku mata bishobora kuba ari iduka cyangwa icyumba cy'amata mu Rwanda.

Icyuma kinini gikonjesha cyangwa kikabika amata cya sosiyete y'ubucuruzi bw'amata, iki cyuma gifite isahani y'icyuma hejuru, aho hagaragara igikoresho gikoreshwa mu gupima ubuziranenge bw'amata, hafi y'icyo cyuma hari ibikoresho bitandukanye, harimo n'ibindi by'amazi, inkuta ziri inyuma zubakishije amatafari ahiye, ibi bikoresho bikunzwe kugaragaza

Icyumba kirimo akabati kanini ndetse karekare harimo intebe ndetse n'ameza bitondetse ku murongo, hakabamo udutambaro tw'isuku ndetse n'icyuma kinini gifata amata bigaragara ko iki cyumba gitegurirwamo kandi kigatunganirizwamo amata hari n'indobo ziri hejuru y'ameza zirimo ibisuguti ndetse n'ibindi bintu abantu bafatisha amata.

Inyemezabwishyu yishyuwe mu kigo gishinzwe ubugenzuzi n'iduka rikora imigati bigaragaza ko iyi sosiyete yishyuwe amafaranga y'isuku rusange ku kwezi kwa nyakanga ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, iriho amakuru n'i itariki yo gutanga ubwishyu, amafaranga yishyuwe n'amande y'inyungu bishyuye.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo k'imisoro n'amahoro mu Rwanda kwerekana izina ry'isosiyete, umusoro w'ubucuruzi wishyuwe itariki yishyuriyeho ndetse n'amafaranga yagombagwa kwishyurwa. Inyemezabwishyu irimo kandi amakuru ajyanye n'ishami ry'isosiyete, igihano cy'ubukererwe ni nyungu zishyuwe. Inyandiko yerekana ko umusoro w'ubucuruzi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, wishyuwe mu karere ka Nyarugenge.

Icyumba cyimbere mu biro cyangwa ahantu hakorera, hakorerwa serivisi gifite amatara yo ku gisenge, ibirahure bitandukanya ibyumba n'ameza afite indorerwamo nini iriho indabo mu masashe, ku kumuryango uri imbere hari ikimenyetso cyangwa ikirango cyanditseho amagambo n'ibishushanyo bishobora kuba byerekana izina ry'ibyo by'ibyo biro cyangwa serivisi itangirwa aho igishushanyombonera cy'iyo nyubako kiri mu mabara y'umweru,..

Iduka ririmo abantu batandukanye abagore imbere yabo hateretse amamashini adoda ndetse n'imyenda imanitse y'amabara atandukanye biragaragara ko aha hantu hakorerwa ubucuruzi ndetse n'itunganywa ry'imyenda ndetse n'ibindi bintu byifashishwa mu gusasa ndetse n'uburyamo hejuru hari imipira y'amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu n'icyatsi bigaragaza ko ari imipira y'ibihugu.

Agasoko karimo abagore bacuruza imboga n'imbuto, umugore uri imbere afashe igitebo kirimo inyanya agaragara nk'uri kugurisha cyangwa kwereka abakiriya inyanya ze. Hirya hakaba hari abandi bagore n'abo bari gucuruza bafite ibikoresho bitandukanye nk'amasafuriya, ibiseke n'ibindi. Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye bigaragaza ko aru.

Ibase y'icyatsi irimo isahani ipima amashaza ndetse n'akabase k'icyatsi karimo imineke myinshi n'igitebo cy'inyanya kiri iruhande y'igikapu umugore yatunze intoki, ndetse n'akajerekani kifashishwa mu gupima ingano cyangwa ibindi bicuruzwa bisukika, iruhande rwawo hari umufuka urimo ibishyimbo bigaragaza ko buno ari ubucuruzi buciriritse busanzwe.

Akazu k'ubucuruzi kameze nka kiyosiki kose kiganjemo ibara ry'umuhondo hariho amagambo yerekana ko serivisi ihatangirwa igendanye n'itumanaho, harimo nimero akanyenyeri gatatuzeru gatatu urwego hari n'abantu babiri bari kuganira n'uwo wakoraga aho hantu, umwe afite igikapu mu mugongo byerekana ko ashobora kuba ari kugura.

Abakozi bambaye imyenda y'akazi n'ingofero z'isuku bari mu ruganda rutunganya ibitoki bari gushyira ibitoki mu bikapu cyangwa mu biseke by'imihondo n'ubururu bigaragara ko bari muri gahunda yo kubipima no kubihitamo hari imashini cyangwa ameza abafasha mu gutunganya ibyo biribwa uburyo akazi kabo gateguwe neza byerekana ubunyamwuga no kwita ku mikorere myiza.

Ubwiherero bwa kijyambere buri mu nzu igurishwa i Kanombe i Kigali ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda bufite aho babika amazi h'umweru ndetse n'ubukarabiro bufite igipangu cy'ikirahure n'ibyuma ku nkuta, haragara umucyo mu idirishya riri imbere bikagaragaza isuku n'imiterere myiza y'iyi nzu iri kugurishwa aha ngaha.

Icyumba cy'uburiri kiri mu nzu itangirwa ku bukode i Kigali Rwanda, ku mafaranga amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi, icyumba gifite uburiri bunini bufite imitako, imisego ibiri urumuri rukeye ndetse hari n'idirishya rirerire rifite amarido y'umukara, byerekana ko inzu ifite isuku ituje kandi igezweho.

Inzu y'ubukode iri Kigali i Remera nk'uko bigaragara ku butumwa buri hejuru iyi nzu ifite ibyumba bibiri kandi ifite n'icyumba cy'ibikoresho igiciro cy'ubukode buri ku kwezi ni ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ifoto igaragaza uruzitiro rw'icyumba rufunze neza ni inyubako ifite igishushanyo cyiza inyuma yayo hagaragara izindi nzu z'abaturanyi.

Inzu igezweho iri kugurisha i Kigali Kimironko, ifite amagorofa abiri, ifite ibirahure binini bigezweho, ibaraza rinini ifite urukuta rw'ibirahure, ndetse n'urukuta rumwe ruriho ibuye riyihesha isura nziza. Igipangu cyayo kirimo isima, ituma ikibanza kigaragara neza. Ikirere nikiza bigaragara ko ifoto yafashwe kisi.

Inzu ikodeshwa ku bihumbi magana abiri, ifite urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'amadirishya asize ibara ry'ivu, inyuma yarwo hari ibiti birebire bifite amashami maremare y'icyatsi, ndetse n'ibiti by'imikindo biri mu rupangu mw'imbere, ku ruhande hari ubusitani bugufi ndetse n'ibaraza ry'inzu risize amabara y'umweru.

Umugore uri mu iduka arimo kwishyura ibicuruzwa akoresheje imashini yo kwishyuriraho afite inanasi mu gikapu cye ari gukora ku nsakazamashusho iri ku gikuta ahantu ari hari ibyapa byerekana ko aho bishyurira hishyurirwa vuba n'ibimenyetso by'amabara atandukanye hari n'abandi bantu bari muri iryo duka baguze ibicuruzwa ndetse n'abakira abantu hari ibyapa by'umutuku byanditseho nimero icumi.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'isashe y'isuku mu mutwe, arimo gutunganya imbuto n'imboga muri firigo nini y'ububiko. Firigo ifite ibyiciro bitandukanye biriho imbuto nka pome, mandarine, inyanya n'imboga zifunze neza mu bikoresho bya parasitike, hari n'ibindi bicuruzwa biri mu dukarito duto munsi.

Uri mu isoko cyangwa ahantu hahahirwa aho ahagaze imbere y'ahantu hagurishirizwa imboga n'imbuto zitandukanye afite agakarito k'ibiribwa mu ntoki kandi agaragara nk'uri guhitamo ibiribwa ashaka kugura ari ubwoko butandukanye bw'imboga n'imbuto ku bipande birimo inyanya, concombre, karoti n'ibindi. Ifoto ishimangira uburambe bw'ubuhaha no guhitamo ibiribwa byiza.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, uri mu iduka rinini asunika igare ryibicuruzwa, ari kugenzura ibintu biri ku meza y'ibikoresho byamashanyarazi, aho hagaragarara inyuma ibishyushya amazi, inyuma ye hari abandi bantu bigaragara ko bari kugura ibintu, ndetse hari amatara menshi amukira iri duka, hakaba ibyapa biriho amacupa y'icyatsi ndetse n'amacupa ari iruhande rw'uyu mugabo arimo ibinyobwa.

Urubuga aho abantu bagaragaza umuvuduko mu kugura ibicuruzwa. Umugabo umwe afashe igicuruzwa ku ishyirahamwe mu gihe undi wambaye umupira w'umuhondo arikumwereka ikintu. Imifuka y'ibiribwa iri ku mashyirahamwe yombi. Naho igare riri imbere rifite ibicuruzwa hari abandi bantu inyuma bigaragara ko ari ahantu h'umubyigano cyangwa igikorwa kihutirwa.

Firigo nini eshatu zifite amadirishya agaragaza ibinyobwa bitandukanye birimo amazi, imitobe n'inzoga haranagaragara amarangi atandukanye hejuru ya firigo arimo amagambo yandikishijwe inyuguti z'umweru n'ibindi bidashobora gusomeka neza, imbere ku ruhande hari amasherufu afite ibicuruzwa birimo ibipfunyitse n'amakarita.